Iyamamaza ry'ibigo by'ubwishingizi byishyize hamwe kugira ngo bikomeze gutanga serivise zinogeye abaturage babigana bikaba byarishyize hamwe bikitwa Saniramu kugira ngo bitange serivise zinogeye abantu.

Iyamamaza ry'ikigo cy'ubwishingizi kizwi nka PRIME, kikaba gifasha abantu bakigana kwishingira ibinyabiziga byabo, ubuzima bwabo ndetse na kampani zabo, ku buryo mu gihe bahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye, icyo kigo kibafasha kikabagoboka.

Iyamamaza ry'ikigo cy'ubwishingizi kizwi nka Old Mutual, gifasha abantu kwishingira ibinyabiziga byabo, inzu zabo ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, ku buryo iyo bahuye n'ibiza kiba cyiteguye kuhagoboka igihe icyo aricyo cyose.

Iyamamaza ry'ikigo cy'ubwishingizi kizwi nka wodi mico gifasha abantu mu kwizigama amafaranga azabafasha mu gihe bazaba bageze mu zabukuru, igihe bahuye n'ibyago ndetse n'ikindi gihe cyose baba bakeneye kugira ngo ayo mafaranga bizigamye abagoboke.

Iyamamaza ry'ikigo cy'ubwishingizi Sonarwa kugira ngo gifashe abaturage bacyizeye mu gihe bahuye n'ibibazo bitandukanye, ayo mafaranga bizigamye abagoboke.

Iyamamaza ry'ikigo cy'ubwishingizi gifasha abantu mu kwizigama ndetse no gukora ibindi bikorwa bitandukanye byo kwita ku buzima bwabo, kizwi nka Old Mutual, gifasha abaturage bose.

Urubuga rushyirwaho n'ibigo by'imari byari bitandukanye kugira ngo abantu bagane ibyo ibigo by'imari, babashe kumenya isohoka n'iyinjira ry'amafaranga yabo bitabasabye kuva aho bari babiboneye muri telefoni zabo kandi bakore n'ibindi bikorwa bitandukanye muri icyo kigo k'imari.

Urubuga rwashyizweho n'ikigo cy'imari kizwi nka Equity, ifasha abantu bayikoresha, kubitsa, kubikuza, ndetse no kohereza amafaranga, bitabasabye kuva aho bari bagakoresha telefone zabo.

Iduka rihurira urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, baturutse ahantu hatandukanye, bifuza kugura imyenda, cyane cyane iy'abagore yo kwirimbisha, aha ngaha ukaba wayibona ku giciro kikunogeye.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo imitako igiye itandukanye, iyo abantu bagenda bashyira mu mazu yabo cyangwa se iyo abantu bakoresha bari kwirimbisha, kugira ngo bakomeze gusa neza mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Iduka ririmo imyambaro igiye itandukanye ndetse n'imitako igiye itandukanye, harimo iyo benshi bazi nk'amakatwa mu ndimi z'amahanga ndetse n'amavaze ndetse n'indi mitako myinshi ikenerwa n'abantu kugira ngo bayishyire mu mazu yabo.

Inzu y'ubucuruzi irimo imitako igiye itandukanye, yaba iyo kwambara ndetse n'iyo kumanika mu nzu abenshi bazi nka kadire mu rurimi rw'amahanga, hakaba harimo n'imyambarire itandukanye abantu bambara mu buzima bwa buri munsi.

Ubucuruzi bw'imodoka bukorwa na kampani izwi nka Akagera motozi, aho umuntu ushaka kugura imodoka abegera kugira ngo bamufashe kuyibona, akaba ari imodoka z'ubwoko bugiye butandukanye.

Ubucuruzi bw'imodoka bukorwa na kampani zigiye zitandukanye zikorera mu Rwanda, harimo n'uwifuza imodoka yaba iyo gukoresha mu bucuruzi cyangwa se mu ngendo zigiye zitandukanye, abagana bakamuha imodoka yose yifuza.

Ikigo gicuruza imodoka kizwi nka Yundayi gikorera mu Rwanda gifasha abantu kubona imodoka zo mu bwoko bwayo bwa Yundayi mu buryo buboroheye ndetse no ku biciro bisanzwe.

Ubucuruzi bw'imodoka bukorwa n'ikigo cya Akagera motozi aho umuntu ukeneye imodoka abegera bakayimugezaho. Iki kigo kikaba gikorera mu Rwanda.

Imashini ibara amafaranga, ikoreshwa mu bigo by'imari bigiye bitandukanye, aho ikoreshwa n'abakoze mu gihe bari kubara amafaranga menshi kugira ngo birinde kuba bakwibeshya, nanone ikaba ibafasha kugira ngo bihutishe akazi.

Imashini ibara amafaranga, ikoreshwa mu bigo by'imari bigiye bitandukanye, kugira ngo ifashe abakozi bakoramo kubara amafaranga mu buryo bworoshye mu gihe ari menshi, ndetse irinde kuba bakwibeshya mu gihe barimo kubara amafaranga.

Ikigo cy'imari cyakira abantu batandukanye bifuza kubitsa amafaranga, kuyabikuza ndetse no kuyoherereza abandi bantu, ibi bigo bikaba bikorera mu duce dutandukanye tw'igihugu.

Amafaranga yakoreshwaga mu rwanda mu myaka yashize yafashaga abaturage mu bikorwa bigiye bitandukanye by'ubucuruzi ndetse no kubona ibintu bagiye bakeneye bu ubuzima bwabo bwa buri munsi

Iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukana abantu bakeneyera mu buzima bwabo bwa buri munsi, yaba mu ngo zabo, mu mahoteli ndetse no mu maresitora, harimo amata n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Iduka ricururizamo ibicuruzwa bigiye bitandukana abantu bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi haba mu ngo zabo, mu maresitora cyangwa se no mu mahoteri, harimo amata ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Iduka rihuriramo urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye, baturutse ahantu hatandukanye kugira ngo bagure ibintu bigiye bitandukanye birimo amagi bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, haba mu mago, muri resitora ndetse no mu mahoteli.

Iduka ririmo ibiribwa ndetse n'ibyo kuywa bikoreshwa mu buzima bwa buri munsi, harimo amata, amaji ndetse n'imigati bikaba bikenerwa n'abantu bagiye batandukanye kugira ngo bakomeze kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Urubuga rwashyizweho n'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda MTN, rufasha abantu kwishyura amafaranga y'ishuri ndetse n'izindi serivisi zigiye zitandukanye baba bahawe, bakoresheje telefone zabo bwite bitabasabye gukora izindi ngendo.

Urubuga rwashyizweho kugira ngo abantu baherereye mu bihugu bitandukanye bohererezanya amafaranga hagati yabo abafasha mu gukora ibintu bigiye bitandukanye mu buzima bwabo.

Urubuga rwashyizweho n'ikigo kizwi nka wesitani yuniyoni gifasha abantu kohereza ndetse no kwakira amafaranga hagati y'ibihugu, rukaba rwarashyizeho ishami ryaryo rya kopedu pasi rifasha kwizigama, kuguriza ndetse no gutera imbere.

Urubuga rufasha abantu kwishyura bakoresheje telefone zabo batavuye aho bari, ni ukuvuga rubafasha kwishyura ibintu bitandukanye, umuriro, amazi, amafaranga y'ishuri ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Icyemezo gitangwa na komiseri w'imisoro y'imbere mu gihugu, iki cyemezo kikaba kimara amezi atatu kandi kikaba kitemewe gukoreshwa mu ihindaguranya ry'imitungo itimukanwa.

Urupapuro ruzwi nka resi mu ndimi z'amahanga, rutangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, Rwanda Reveni Otoriti, ruhabwa umuntu umaze kwishyura isuku rusange ku bantu bakorera mu masoko rusange.

Urutonde rw'amafaranga aba yinjiye ndetse akanasohoka mu bigo by'imari bigiye bitandukanye, aba yanditswe n'umuntu ubishinzwe mu kigo cy'imari kugira ngo bakomeze kumenya uko amafaranga yinjira akanasohoka muri ibyo bigo.

Urupapuro ruzwi nka resi mu rurimi rw'amahanga, rutangwa na Rwanda revini otoriti, ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda igahabwa abantu bamaze kwishyura imisoro bakorera mu masoko rusange ahantu hatandukanye mu gihugu.

Urupapuro ruzwi nka resi mu rurimi rw'amahanga, rutangwa na rwandawa reveni otoriti, ikigo cy igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, ku muntu uba wishyuye umusoro ku mitungo ye atunze.

Ibiro by'ivunjisha, bifasha abantu bafite amafaranga y'amanyamahanga, kuyahinduramo amanyarwanda, kugira ngo ajye abafasha gukora ibintu bigiye bitandukanye, bitabagoye.

Ibiro byashyizweho by'ivunjisha bifasha abantu b'abanyarwanda bafite amafaranga y'amanyamahanga, kuyahinduramo amanyarwanda kugira ngo bayifashishe, bakora ibikorwa bigiye bitandukanye hano mu Rwanda.

Ishami ry'ikigo gishinzwe kuvunja amafaranga y'abanyamahanga b'Abanyarwanda kizwi nka foregisi biro andi karensi egisicengi mu rurimi rw'abanyamahanga, ibi bifasha abanyagihugu bakira amafaranga avuye hanze kuyahinduramo amafaranga yo mu gihugu.

Ibiro by'ivunjisha ndetse n'igurana ry'amafaranga rivunja amafaranga y'abanyamahanga rikayahinduramo amanyarwanda, kugira ngo bifashe abanyarwanda babitse amafaranga y'abanyamahanga kubona uburyo bwo kuyakoresha.

Ibikoresho bikoreshwa mu nzu harimo intebe ndetse n'utubati, bikaba bifasha abantu, yaba mu mahoteli, mu maresitora ndetse no mu mazu, yabo kugira ngo batange serivisi zinogeye abantu.

Ibikoresho bikoreshwa mu nzu abantu bakenera nk'utubati, intebe, yaba mu ngo z'abantu mu mahoteli ndetse no mu maresitora, kugira ngo bibafashe kuzicaramo ndetse no kubika ibintu kugira ngo hanozwe serivisi batanga.

Hoteli ku gice cyaho cy'aho abantu baririra, hakaba ari ahantu hatuje, hegeranye no kuri pisine mu rurimi rw'amahanga, ni ukuvuga ku bwogero, aha ngaha akaba ushobora kuhafatira icyo kurya ndetse n'icyo kunywa.

Hoteli ku gice cyaho cy'ubwogero abenshi bazi nka pisine mu rurimi rw'amahanga, aha ngaha akaba ariho abantu benshi bakunda kujya mu gihe cy'ubushyuhe kugira ngo boge, banaruhuka.

Hoteri yakira abantu bagiye batandukanye baba abanyagihugu ndetse n'abanyamahanga ku gice cyabo kizwi nko kuri pisine mu rurimi rw'amahanga, aho abantu benshi bajya mu gihe bashaka koga ndetse bakaba batanga n'izindi serivisi zitandukanye.

Hoteli ku gice cyayo cyubwogero abenshi bazi nka pisine mu rurimi rw'amahanga aha ngaha akaba ari ho abenshi bagana amahoteli baruhukira ndetse bari no kogeramo mu gihe bayigannye.

Hoteri ihuriramo abantu bagiye batandukanye, babaha Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga kugira ngo bakomeze kubona ibintu bifuza, byaba ibyo kurya, aho kogera ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bitangwa na hoteri.

Hoteri ku gice cyayo cya resebusiyo mu rurimi rw'amahanga, hakaba ari aho bakirira abantu kugira ngo babafashe, baba abanyagihugu ndetse n'abanyamahanga kuri serivisi iyo ari yo yose baba babifuzaho.

Ibiro by'ikigo cy'ubwishingizi gifasha abantu kwishingira ibinyabiziga byabo, ubuzima bwabo, inzu zabo ndetse na kampani muri rusange kugira ngo igihe bahuye n'ibibazo batateganyije kibagoboke mu mafaranga baba barizigamyemo.

Ibiro by'ikigo cy'ubwishingizi kizwi nka MUA, gikorera mu Rwanda Bumbogo, gifasha abaturage mu kwizigama ndetse no gukomeza kwita ku buzima bwabo bwa buri munsi kandi kikabagoboka mu gihe bahuye n'ibibazo.

Ibiro by'ikigo cy'ubwishingizi cya Sanlam, aho gifasha abakigana kwishingira ubuzima bwabo, ibinyabiziga ndetse na kampani zabo, ikigo kikaba kibafasha mu gihe bahuye n'ibibazo bitandukanye, ku bintu bagiye bishingira muri iki kigo.

ibiro by'ikigo cy'ubwishingizi cya odi mico gifasha abaturage kwizigama ndetse kikazabafasha gukoresha ayo mafaranga bizigamye, akabagoboka mu gihe bahuye n'ibibazo bitandukanye mu buzima.

Ibiro by'ikigo cy'ubwishingizi Forenics of Rwanda insurance company gifasha abantu bakigana kwishingira ubuzima bwabo, imodoka zabo, company zabo, kikazabagoboka mu gihe bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye mu bintu bagiye bishingira.

Inguzanyo zitangwa n'ikigo cy'imari kizwi nka BPR banki, banki y'abaturage kugira ngo bakomeze gukora ibikorwa byabo bigiye bitandukanye, byaba iby'ubwubatsi ndetse n'ibindi baba bakeneye gukora, bakaba bazishyura ayo mafaranga nyuma.

Isoko rusange rihuriramo abantu bagiye batandukanye, baturutse mu mpande zigiye zitandukanye, baba abagura ndetse n'abagurisha kugira ngo bagurane ibintu bigiye bitandukanye, byaba ibiribwa, ibintu bakoresha nyine mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Isuko ricururizwamo imitako itandukanye, harimo iyo kurimbisha, ryo kwambara ndetse hakaba harimo n'imitako igitandukanye, abantu bashyira mu mazu yabo ndetse n'ibiseke bakoresha batwara ibintu bigiye bitandukanye.

Isoko rusange rihuriramo urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, bagiye baturutse ahantu hatandukanye yaba agurisha ndetse n'abagura, byaba ibiribwa bikoreshwa mu rugo ndetse n'ibikoreshwa ahantu hagiye hatandukanye, nko mu maresitora ndetse no mu mahoteri.

Isoko rusange rihuriramo urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye, baturutse ahantu hatandukanye kugira ngo bagure ibintu bigiye bitandukanye bakenera mu ngo zabo, mu mahoteri ndetse no mu maresitora, byaba ibyo kurya ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Isoko rusange rihuriramo urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye baturutse mu duce tugiye dutandukanye, kugira ngo bagure ibintu bigiye bitandukanye, byaba ibyo gukoresha mu ngo zabo, mu mahoteri ndetse no mu maresitora.

Isoko rusange rihuriramo abantu bagiye batandukanye, urujya n'uruza baturutse ahantu hatandukanye, rikaba ririmo inkweto zibafasha mu mirimbire yabo ya buri munsi.

Isoko rusange rihuriramo urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye baba abagura ndetse n'abagurisha kugira ngo bagure ibintu bigiye bitandukanye baba bakeneye gukoresha mu ngo zabo, mu amahoteri, mu bigo by'amashuri ndetse n'amaresitora, byaba ibyo kurya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Isoko rusange rihuriramo urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye, baturutse mu duce dutandukanye, kugira ngo bagure ndetse banagurishe ibintu bigiye bitandukanye, harimo ibiribwa ibyo bakoresha mu ngo zabo mu bigo by'amashuri mu maresitora ndetse no mu mahoteri.

Utuzu dushyirwa ahantu hagiye hatandukanye tuzwi nka kiyosike, dukoresha n'abakozi bakorera ikigo cy'itumanaho mu Rwanda MTN kugira ngo bafashe abaturage ku bikorwa bigiye bitandukanye bya MTN, haba gutanga amayinite ndetse n'ibindi bikorwa bya Mobayiro mani.

Uburyo bwashyizweho n'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda MTN, cyo gususurutsa abantu bayikoresha, bifashishije umuhanzi kugira ngo bakomeze kwizihirwa no kuryoherwa na serivisi zitangwa na MTN.

Inzu ikorerwamo n'umukozi wa MTN ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda kugira ngo ahe abaturage bakoresha MTN serivise zitandukanye, zaba iza mobayiro mani ni ukuvuga kohereza no kwakira amafaranga ndetse no kubaha ama inite.

Umukozi w'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda MTN ufasha abaturage ibikorwa bigiye bitandukanye yaba kohereza, kwakira amafaranga ndetse no kubaha imayinite mu buryo buboroheye.

uburyo bwashyizweho n'ikigo cy'itumanaho cya MTN gifasha abantu kwishyura bakoresheje mobayiro mane, kugira ngo hagende hirindwa ingaruka zo gukoresha amafaranga mu ntoki, bubahiririza gahunda ya kashiresi.

Urubuga rwifashishwa mu guhaha bitagusabye kuva aho uri, aho usaba ikintu ukeneye kuri urwo rubuga nabo bakihutira kukikugezaho aho waba uherereye hose kugira ngo bikorohere mu bintu ugenda ukora bya buri munsi.

Urubuga abantu bishyiriraho bakanaguriraho ibintu bigiye bitandukanye bitabasabye gukora ingendo, ni ukuvuga bakoresha terefone zabo bwite hanyuma bakaza kubagezaho ibyo bintu bitandukanye bakeneye.

Urubuga rufasha abantu kugura ibintu bigiye bitandukanye, bitabasabye kuva aho bari bagakoresha telefone zabo, yaba imyambaro, amasakoshi ndetse n'ibindi bintu bakenera mu kwirimbisha kugira ngo biborohere mu kazi kabo batavuye aho bari.

Urubuga rwifashishwa mu gucuruza hifashishijwe ikoranabuhanga rwitwa ali ekisipuresi rufasha abantu kubona ibintu bigiye bitandukanye yaba imyenda, amasakoshi ndetse n'imisatsi kubibona biboroheye batavuye aho bari.

Urubuga rucururizwaho hifashishije enterinete, ni ukuvuga abantu batumizaho ibyo bakeneye bakoresha telefoni zabo, n'uko abantu bashinzwe kubibagezaho bakabibagezaho aho baherereye.

Apulikasiyo ifasha abantu gutumiza ibintu bakeneye akenshi ibyo kurya bitabasabye kuva aho bari, barandikira abantu bakoresha iyi apulikasiyo bakabazanira ibyo bintu bakeneye mu rugo, mu buryo bwihuse.

Iyi ni Apartement igurishwa, iyi Apartement iherereye mu mujyi wa Kigali aha ahazwi nka Kibakabaga iyi Apartement uramutse uyifuza wayibona ku madorari angana n'ijana na mirongo itatu n'atanu.

Iyi nzu iherereye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda Kabeza, iyi nzu ifite icyumba kimwe, ikaba yishyurwa amadorari ahwanye na magana atanu mirongo itanu ku kwezi kumwe.

Ubucuruzi bw'inzu bukorerwa mu gihugu, hakaba hari inzu zicuruzwa zigiye zitandukanye, abantu bagura kugira ngo bazibemo cyangwa se bakoreremo ibindi bikorwa bigiye bitandukanye.

Inzu igurishwa, iyi nzu ikaba iherereye mu Mujyi wa Kigali mu Rwanda, iyi nzu ukaba wayibona ku mafaranga angana na miliyoni ijana mirongo itanu z'amanyarwanda. Iyi nzu iri ahantu hangana no ku buso bwa magana atatu mirongo irindwi na gatanu.

Ubucuruzi bw'inzu mu gihugu cy'u Rwanda, aho hano hari inzu iri mu mujyi wa Kigali, ikaba igura amafaranga ahwanye na miliyoni ijana na mirongo ine, iyi nzu ikaba iherereye i Kanombe.

Inzu ikodeshwa, iyi nzu ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe, iyi nzu ifite ibyumba bine ndetse iyi nzu ikaba ifite n'ubwogero butatu.

Inzu ikodeshwa, iyi nzu ikaba iherereye i Kigali i Kanombe, iyi nzu ifite ibyumba bitandatu ndetse ikaba ifite n'ubwogero butatu, iyi nzu ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana ane ku kwezi.

Inzu ikodeshwa iyi nzu ikaba iherereye i kigali kibagabaga iyi nzu igizwe n'ibyumba bibiri by'uburyamo na none ikaba igizwe n'icyumba kimwe cy'ubwogero.

Inzu ikodeshwa iherereye i Kigali Kimironko, iyi nzu ikaba igizwe n'ibyumba bitatu ndetse n'ubwogero bubiri, iyi nzu ikodeshwa amafaranga ahwanye n'ibihumbi magana atatu y'amanyarwanda buri kwezi.

Inzu ikodeshwa, ikaba iherereye Kimironko, iyi nzu ifite ibyumba bitatu ikagira n'ubwogero bubiri. Inzu ikodeshwa amafaranga ahwanye n'ibihumbi magana abiri mirongo itanu y'amanyarwanda ku kwezi.

Iduka rihuriramo abantu bagiye batandukanye bo mu nshe zigiye zitandukanye kugira ngo bagure ibintu bigiye bitandukanye, baba bifuza byaba ibyo kwirimbisha ndetse n'ibindi bibongerera ubwiza bizwi nka mekapu mu ndimi z'amahanga.

Inzu y'ubucuruzi ihuriramo abantu bagiye batandukanye b'urujya n'uruza kugira ngo bagende bahaha ibikoresho bigiye bitandukanye, byaba ibyo gukoresha mu masuku, ibyo kurya ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Ikigo k'igihugu gishinzwe gufasha abapolisi n'abasirikare b'u Rwanda ndetse n'imiryango yabo mu buryo buboroheye, ibintu bifbasha mu buzima bwabo bwa buri munsi kizwi nka Armed Force Shop, mu ndimi z'amahanga.

Isoko rusange rihuriramo urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye, baturutse ahantu hatandukanye, ricuruza ibintu bijyanye n'inkweto ndetse n'amasakoshi abantu baba bakeneye...

Iduka rihuriramo urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, baturutse mu duce dutandukanye, bifuza kugura imyenda ndetse n'inkweto, bambara birimbisha kugira ngo barusheho kugaragara neza.

Iduka rihuriramo urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye, baturutse ahantu hatandukanye, bifuza kuba bagura ibintu abenshi bita imikeka, bakoresha mu ngo zabo ndetse n'ahadi hantu hatandukanye.

Ikigo gishinzwe imisanzu y'amasosiyete mu Rwanda, Rwanda sosho sekiriti bodi, gifasha abaturage mu ibikorwa bitandukanye, byo kubaha ubuzima bwiza ndetse n'umutekano.

Uburyo rusange bwashyizweho na leta, bwo kwivuza hifashishije ubwisungane mu kwivuza buzwi nka mituweli kugira abaturage bose babashe gukurikirana ubuzima bwabo, bakomeze kubaho neza.

Isoko rusange rizwi nka supermarket mu rurimi rw'amahanga, rihuriramo urujya n'uruza rw'abantu batandukanye baje gushaka ibyo kurya, ibyo kunywa, ibikoresho by'isuku ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bakenera amahoteri ,mu rugo ndetse no mu maresitora.

Isoko rusange rizwi nka supermarket mu ndimi z'amahanga, rikaba ririmo imboga ndetse n'imbuto zikoreshwa n'abantu batandukanye, haba mu rugo ndetse no mu mahoteli mu buzima bwayu bwa buri munsi.

Isoko rusange rizwi nka supamaketi mu rurimi rw'amahanga, rihuriramo abantu bagiye batandukanye, bifuza ibintu bigiye bitandukanye byaba bikoresho by'isuku, ibyo kurya bakoresha mu ngo, mu mahoteri ndetse n'ahandi hantu hatandukanye, bahagana kugira ngo babibone.

Isoko rusange rizwi nka Supa maketi mu rurimi rw'amahanga, aho ugura atoranya ibyo ashaka akabizana, ugurisha akamubarira amafaranga ahwanye n'ibyo yafashe kugira ngo abashe kubyishyura.

Isoko rusange rihuriramo urujya n'uruza rw'abantu baturutse ahantu hagiye hatandukanye rizwi nka supamaketi mu ndimi z'amahanga, aho umuntu ashobora kubona ikintu cyose yifuza guhaha bimworoheye.

Isoko rusange rizwi nka supa maketi mu rurimi rw'amahanga, rihuriramo urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye baturutse munce zitandukanye, bifuza kugura byaba ibikoresho by'isuku ibyo kurya ndetse n'ibindi bintu bitandukanye byaba ibyo gukoresha mu ngo zabo mu mahoteri ndetse no mu ma resitora.

Isoko rusange rihurira mu urujya n'uruza rw'abantu bagiy batandukanye, baturutse ahantu hatandukanye kugira ngo bahabwe ibintu bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, byaba ibyo bakoresha mu ngo ndetse n'ahandi hatandukanye nko mumahoteli ndetse n'ama resitora.